Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, abandi bicaye ku ntebe z'umweru bari mu cyumba kimwe, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ubucupa bw'amazi.

Ni ababyeyi batandukanye, aba babyeyi bakaba bari mu cyumba kimwe bose bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru, aba babyeyi kandi bakaba bose bakenyeye bambaye imikenyero.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, aba bantu bakaba bari mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe z'umukara; imbere yabo bakaba hari ameza ateretseho ibitabo byabo.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, aba bantu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi na mudasobwa.

Aba ni abantu bamwe bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa icyatsi, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ariho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Aba ni abantu bicaye imbere bakaba bambaye imipira y'icyatsi, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze bose bambaye imipira y'umuhondo.

Aba ni abantu bicaye ku ntebe z'umuhondo bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru, imbere yabo akaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara afite indangururamajwi mu ntoki.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, aba bantu bakaba bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kimwe aba bantu bakaba bose bicaye ku ntebe zisa umweru ndetse abenshi muri bo bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa.

Uyu ni umugore uteze igitambaro, akaba yambaye ishati y'umuhondo ndetse akaba afite mu biganza bye indangururamajwi, imbere ye hakaba hari abantu bamukurikiye bicaye ku ntebe z'umutuku.

Iki ni icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe zisa umweru imbere yabo hakaba hari umuntu uhagaze uri kubaganiriza ndetse hakaba hari n'ibyapa biriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Iri ni ihema rirerire cyangwa se rinini ry'umweru ririho amatara hejuru acanye y'umweru ndetse iri hema rikaba ririmo abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umutuku.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe bakaba bambaye imipira y'ubururu iriho ibendera ry'igihugu ndetse inanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitabo bitandukanye n'uducupa tw'amazi.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kimwe, bose bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitabo ndetse na mudasobwa.

Uyu ni umugore ndetse n'umugabo bicaye ku ntebe z'imikara. Imbere yabo hakaba hari ameza maremare ariho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kimwe. Bakaba bicaye ku ntebe zisa icyatsi, imbere yabo hakaba hari ameza ariho uducupa tw'amazi ndetse n'amabendera atandukanye.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umukara, uyu mupira ukaba wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse uyu mupira ukaba uriho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, uyu mukobwa akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze ari kuvuga.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere, hirya ye hakaba hari intebe z'umuhondo, inyuma ye hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'ubururu n'umweru.

Iki ni icyumba kirimo umugore uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze, hirya hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza y'umuhondo agiye ariho uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugabo uhagaze akaba afite mu kiganza cye indangururamajwi, akaba ari kuganiriza abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza y'umweru.

Aba ni bantu batandukanye, aba bantu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hariho ameza ateretseho ibitabo byabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ariho ibitabo bitandukanye n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bishimye bari kubyina bahagaze abandi na bo bakaba bicaye ku ntebe z'umweru mu ihema risa ubururu ndetse n'umweru.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, aba bantu bamwe bakaba bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, abandi bakaba bicaye ku giti. Imbere yabo hakaba hari umubyeyi uri kubaganiriza.

Aba ni abantu bake batandukanye bicaye ku ntebe, bamwe zisa umweru abandi zisa icyatsi, abicaye ku z'icyatsi imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba kimwe ku ntebe zisa umweru izindi zisa umukara, imbere hakaba hagiye hariho ameza ariho ibirahuri n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ariho ibitabo ndetse na mudasobwa.

Uyu ni umugore wambaye ishati y'icyatsi, akaba afite mu kiganza cye indangurura majwi, imbere hakaba hari ameza akozwe mu rubaho.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba bakaba bicaye ku ntebe zisa umutuku, imbere yabo hakaba hari ameza y'umweru ateretseho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Aba ni abantu batandukanye bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho, bamwe imbere yabo bakaba bafite imeza nayo ikozwe mu rubaho, bakaba bicaye impande y'inzu ifite inkuta z'umweru n'amadirishya n'inzugi bitukura.

Aba ni abantu benshi batandukanye bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze, bakaba bari gukurikirana umugore uri kubaganiriza ubahagaze imbere, inyuma yabo hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye bihaparitse.

Uru ni urupapuro rw'ubururu, rwanditseho amagambo menshi ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru agiye atandukanye, hasi hakaba handitseho andi ari mu ibara ry'ubururu.

Uru ni urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye n'ibishushanyo bitandukanye, bigiye byose biri mu mabara y'ubururu, umukara, umuhondo.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, arekaba ari mu mabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'ubururu.

Uyu n'umwana uri kugenda impande y'inzu is'umweru, hirya hakaba hari icyuma kirekire cyane kigiye kiri mu mabara y'umutuku n'umukara.

Uyu ni umunara muremure cyane, uriho amabara agiye ari mu umutuku n'umweru, uyu munara hirya yawo ukaba ufite uruzitiro rw'ibyuma birebire ndetse hirya hakaba hari ubusitani.

Uru n'urupapuro rw'ubururu rugiye rwanditseho amagambo atandukanye, aya magambo akaba ari mu ibara ry'umweru ndetse hakaba haditsweho n'imibare nayo iri mu mabara y'umweru.

Aba ni abantu batandukanye, umwe wambaye ingofero y'umweru, undi y'icyatsi, aba bantu bakaba bambaye amajire asa icyatsi, imbere yabo hakaba hari icyuma kirekire gitukura.

Iki ni icyapa gisa umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye, aya yose akaba agiye ari mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'ubururu, umweruru n'umukara, urupapuro ruriho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, umuhondo, umukara n'ubururu, uru rupapuro kandi rushushanyijeho mudasobwa.

Iyi cyangwa se iki n'icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye iki cyapa kikaba kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, amagambo yanditseho akaba ari mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru.

iki ni urupapuro ruriho foto y'abanyonzi benshi cyane bari mu muhanda ndetse hakaba urupapuro handitseho n'amagambo agiye ari mu mabara y'umukara n'umweru.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitabo ndetse na mudasobwa.

Uru ni urupapuro rw'ubururu, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru ndetse n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'ubururu, uyu mugabo akaba afite telefone mu ntoki ze yanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse uyu mugabo hejuru ye no ku mpande ye hakaba n'andi magambo ari mu ibara ry'ubururu.

Uyu ni umunara muremure cyane ugiye uriho ibyuma bindi bigiye bitandukanye, uyu munara kandi ukaba usize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye.

Uru n'urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye umupira n'ipantaro y'umukara, akaba ari imbere y'inzu ifite inzugi z'ubururu n'umweru, ikaba iriho n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa icyatsi ndetse imbere yabo hakaba hagiye hari ameza, ariho ibitabo n'ibindi bitandukanye.

Ururu ni urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye ,biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu n'umuhondo.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rugiye rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, uru rupapuro runashushanyijeho ibishushanyo bya mudasobwa.

Iki ni icyapa kiri mu mabara atandukanye ndetse cyanditseho n'amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Uru ni urupapuro rw'ubururu, uru rupapuro rwanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hirya hakaba yashushanyijeho telefone imodoka ndetse na moto.

Aba ni abagabo batatu, aba bagabo bakaba bambaye imipira isa ubururu n'amapantaro, bakaba bahagaze mu busitani impande yabo hakaba hari ibikapu, inyuma yabo hakaba hari icyuma kirekire cyane cy'umunara.

Iki ni icyumba cy'ikoranabuhanga, kirimo abana bambaye amashati y'umweru ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye. Aba bana bakaba bicaye, imbere yabo hakaba hari ameza ariho mudasobwa.

Uru ni urupapuro rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara, hejuru hakaba hariho n'ibendera ry'Ubwongereza.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umutuku n'umukara bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Abantu batatu bicaye muri sale y'inama, ameza arambitseho ibitabo, amazi yo kunywa hejuru, ubaha ikiganiro ubona ko ahagaze basobanura ibiri kubera muri iyo nama.

Iki ni icyumba kirimo intebe zikozwe mu rubaho, kikaba kirimo n'akabati k'umweru. Ndetse kikaba kirimo n'ameza akozwe mu rubaho, ariho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Iki ni icyapa kiriho ikiganza cy'umuntu, kiri gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga, hirya hakaba handitseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru, akaba ari kugenda impande y'inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa, biri mu mabara y'umutuku ,ubururu ,umuhondo n'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo atandukanye, ari mu mabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi n'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'ubururu, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse hakaba hariho n'amafoto atandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hakaba hari mudasobwa irimo amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uyu ni umugore wambaye ikote, imbere hakaba hari ameza ateretseho indorerwamo z'amaso, impapuro zigiye zitandukanye ndetse na mudasobwa ari gukoresha.

Iki ni icyapa kinini kiri ku nkuta z'amatafari ahiye, iki cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara.

Uru ni urupapuro rushushanyijeho inzu nini cyane kandi rukaba rwanditseho n'amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru.

Iyi ni inzu yubucuruzi igiye iriho ibyapa byinshi bitandukanye, biri mu mabara y'ubururu, umweru, umukara, umuhondo, n'umutuku.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umweru n'undi bicaranye wambaye umupira utukura bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo bakaba yari ameza ateretseho telefone ndetse na mudasobwa.

Iri ni ipoto rirerire ry'amashanyarazi ririho insinga nyinshi zitandukanye, iri poto kandi rikaba rikikijwe n'ibiti byinshi birebire na byo.

Ubu ni ubusitani burimo ibyuma birebire cyane bigiye biriho insinga zigiye zitandukanye, hirya cyangwa se hakurya hakaba hagiye hubatse amazu menshi atandukanye.

Aha haramamazwa imodoka iri mu bwoko bwa yundayi, kandi iyi modoka ikaba ifite ibara rya giri, aha hari uturango tw'urukiramende twanditsemo amagambo yo mu cyongereza ako hejuru karimo amagambo ari m'ibara ry'umukara usigirije, akandi karimo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ari mu gakiramende k'ubururu, biragaragara ko iyi modoka iri kwamamazwa iri k'isoko.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire n'amabuye menshi ndetse n'ingo zigiye zitandukanye.

Iki ni icyuma kirekire kiriho insinga zigiye zitandukanye, hirya hakaba hari umusozi muremure nawo uteyeho ibiti byinshi.

Uyu ni umukobwa wambaye ingofero y'umweru, akaba yambaye n'imyenda isa ubururu, akaba ahagaze ku rwego, akaba ari gukora insinga ziri ku ipoto.

Uyu ni umuhanda ushushanyijemo imirongo y'umuhondo ndetse n'umweru. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba urimo moto ndetse n'abanyamaguru, hirya hakaba hari ubusitani ndetse n'igiti giteye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru, uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru, irimo abantu babiri bari kugenda ndetse n'amapoto maremare ari insinga ndetse n'amatara yo kumurika.

Iri ni ipoto rirerire ry'amashanyarazi rigiye ririho insinga zitandukanye, iri poto rikaba rishinze mu busitani ndetse hirya hakaba hari urukuta rw'umweru rurimo inzu.

Iri ni ipoto riremerere cyane, rigiye riho insinga zigiye zitandukanye; hirya hakaba hari inzu y'ubucuruzi ihari.

Uyu ni numugabo wambaye ingofero, umupira w'umukara n'umweru ndetse n'ijire isa icyatsi. Akaba ari mu cyumba, imbere ye hakaba hari ibyuma biri mu mabara y'umweru.

Izi ni imodoka zitandukanye zihagaze impande y'umuhanda mo hagati hakaba hari inzira y'abanyamaguru bari kunyuramo ari benshi, hirya hakaba hari inzu ndende y'ubucuruzi iriho ibyapa bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru, hirya hakaba hateyeho ubusitani ndetse n'ibiti, ndetse hakaba hashinze n'ipoto ndende iriho itara rimurikira umuhanda.

Iyi ni ipoto rirerire ririho itara rimurika ku muhanda. Iri poto rikikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye birebire n'ibigufi.

Uyu ni umuntu uri kugendera mu nzira y'abanyamaguru, impande ye hakaba hari ipoto rirerire, ririho insinga nyinshi n'itara rinini rimurikira umuhanda.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru, irimo abantu bagiye batandukanye. Ndetse hirya, hakaba hari amazu menshi y'ubucuruzi.

Iri ni ipoto rirebirire ry'amashanyarazi, iri poto rikaba rishinze mu busitani, hirya hakaba hari ibiti bihateye na byo birebire.

Ibi n'ibyuma byinshi bigiye bitandukanye ibi byuma bikaba bigiye bihujwe n'insinga zigiye zitandukanye ndetse hakaba hari n'umurongo ntarengwa uri gusa umuhondo.

Iki ni icyuma kirekire cyane gikozwe cyangwa se kiriho insinga zigiye zitandukanye, hejuru hakaba hari ikirere kirimo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu.

Iyi n'ipoto rirerire cyane ririho itsinga zigiye zitandukanye, hirya y'ipoto hakaba har'ibiti bitandukanye ndetse hirya hakaba har'inzu ihubatse.

Aba ni abantu batandukanye, bamwe bari kugenda abandi bakaba bahagaze mu busitani, bakaba bakikijwe n'amazu agiye atandukanye.

Iyi ni inzira iriho icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye, ifite amadirishya asa umweru kandi ikaba ifite hasi amakaro asa umweruru, ikaba ifite n'imbere yayo ubusitani bugiye burimo ibiti bitandukanye.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye igiye iriho amatiyo atandukanye kandi iyi inzu ikaba yegeranye n'ubusitani ndetse n'inzira y'abanyamaguru, iriho itwikirije amabati.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru, uyu muhanda kandi uteyeho ubusitani ndetse uriho n'igiti kirekire.

Iyi ni imbuga nini ikikijwe n'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse na moto kandi ikaba ikikijwe n'ubusitani ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, ibi byose bikaba bigiye biri mu ibara ry'umukara.

Aba ni abantu batandukanye bambaye imyenda isa, bari hanze mu muhanda w'igitaka, impande yabo hakaba hari urukuta rurerure rwubatse mu matafari ahiye.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye umwenda uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara ndetse n'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara n'umweru, akaba yambaye na karuvati y'umukara, inyuma ye hari urukuta rusa umweru.

Uyu ni ifoto y'umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, ikote ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvate, hasi no hejuru hakaba handitseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Aba n'abagabo bagiye batandukanye, bamwe bakaba bafite udupfukamunwa abandi akaba nabo bakaba bose bicaye, inyuma yabo hakaba hari inzu yubatswe mu matafari ahiye.

Aba n'abantu bambaye imyenda isa, bari kumwe n'abandi bagabo bambaye imyenda isa kaki, bakaba bose bari kugenda binjira mu nzu ndende yubakishwa amatafari.

Iki ni icyumba kirimo abantu batandukanye, abenshi bakaba bicaye ku ntebe, zikozwe mu mbaho, imbere hakaba hari umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, imbere hari ameza ariho ibitabo n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari kugenda, bakaba begereye agakapu k'umweru, hirya yako hakaba hari icyuma gitukura cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Iyi ni imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara ikaba irimo n'utundi tubara tw'umuhondo. Iyi modoka ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyuma cy'umutuku, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, hejuru yacyo hakaba ari ikindi cyapa no ku mpande, ibi byose bikaba byometse ku rukuta rusa umweru.

Uyu ni umuhanda urimo igare ndetse n'umuyonzi, hirya hakaba hari abagabo bambaye ingofero z'umukara, amashati y'umukara, amapantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara bari kugenda.

Ibi ni ibyuma biri mu ibara ry'umutuku n'umukara biteretse ku meza y'urubaho, bigiye kwifashishwa mu kuzimya uyu muriro uri mu isafuriya, hirya hakaba hari abana benshi bari kubireba.

Uru ni uruhombo rw'umutuku rumanitse ku gikuta cy'umweru, hasi hakaba hari ibyuma kimwe gisa umweru ikindi gisa umutuku, byifashishwa mu kuzimya umuriro.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara, inyuma ye hakaba hari umufasha we.

Ibi ni ibipapuro byinshi cyane byometse ku rukuta, hakaba hari umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ufite ikaramu mu ntoki, uri kugenda yandika kuri bino rupapuro.

Uyu ni umugore wambaye ishati isa umweru akaba yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hakaba hari ameza agiye ariho ibitabo bigiye bitandukanye.

Aba ni abagabo bagiye batandukanye, umwe akaba afite indangururamajwi y'umweru imbere ye. Akaba kandi ari kumwe n'abandi bantu b'abagore bari ku mpande.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kimwe, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretse indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye, umwe muri bo akaba afite ifoto y'umukuru w'igihugu ndetse ahahantu bahagaze hakaba hamanitse amabendera ari mu ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu.

Iki ni icyapa kigiye kiri mu mabara y'umukara n'umweru, iki cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse gishushanyijeho ikiganza cy'umuntu ndetse n'ururabyo.

Ni abantu bagiye batandukanye, bahagararanye biganjemo abagore babiri ndetse n'umugabo bari kuganira, baseka bishimye.

Uyu ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye ishati y'umweru, ndetse akaba yambaye na karuvati, igiye iri mu mabara y'umweru n'umutuku.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu n'umweru n'ipantaro y'ubururu, akaba yicaye mu kagare kari mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku; mu kiganza cye akaba afitemo urupapuro rw'umweru.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bafashe amabendera, aya mabendera akaba ari mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu kandi akaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyumba kirimo icyapa kinini cyane, gisa umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'ubururu ndetse hakaba harimo n'abantu batandukanye bicaye muri icyo cyumba.

Aba ni abantu batandukanye, bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze. Abahagaze inyuma yabo hari intebe z'ubururu ndetse imbere hakaba hari ameza y'umweru.

Aba ni abagabo batandukanye bambaye amakote ndetse hakaba harimo n'umubyeyi ubahagaze impande, inyuma hakaba hari amahema maremare ahateye ari mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, uyu mugabo akaba yambaye ikote n'ishati na karuvati, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi n'uducupa tw'amazi.

Uyu ni umukuru w'gihugu cy'u Rwanda ufite ingofero itukura mu ntoki wambaye umupira w'umweru, akaba akikijwe n'abantu benshi cyane bafite amabendera ari mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu.

Iki ni icyumba kirimo amabendera y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, kikaba kirimo n'abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bamwe bambaye imipira y'ubururu, undi mugabo akaba yambaye ishati y'umweru, bakaba bafite mu biganza byabo amabendera ari mu mabara y'umutuku n'umweru n'ubururu.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo igikamyo cy'ibara ry'umuhondo, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo umuntu uri kugenda muri iyo nzira.

Iyi gare igiye irimo abantu bagiye batandukanye, ndetse harimo n'imodoka ndende cyane ziri mu mabara y'umweru, ubururu n'umukara, zitwara abagenzi.

Iyi ni ikamyo y'umweru n'umukara, iri kwinjira mu muhanda. Uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo ndetse hirya hakaba hateye ibiti birebire.

Ibi ni ibinyabiziga bitandukanye bihagaze ahantu hamwe, ibi ibinyabiziga bikaba biri mu mabara y'ubururu, hirya hakaba hari undi muntu utwaye ikindi kinyabiziga kimwe.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu muhanda kandi ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru, ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka, ndetse na moto. Uyu muhanda ushushanyijemo n'imirongo yo mu ibara ry'umweru.

Izi ni imodoka zitandukanye, ziganjemo ibikamyo binini cyane, ndetse n'indi ntoya y'umukara ibihagazemo hagati. Hirya akaba ari inzira y'abanyamaguru, iri kunyuramo abantu batandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka zigiye zitandukanye ndetse na moto, uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru, umuhondo n'umukara ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo moto ndetse n'igare, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru, ndetse hateye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, aha twavuga nka moto, hirya hakaba hari inzu y'ubucuruzi igiye iriho n'ibyapa bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikamyo y'umweru ndetse n'umukara. Uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse urimo uteyeho n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga gisa ubururu, icyo kinyabiziga kibakaba kirimo umugabo uri gutunda ibyuma, uyu muhanda ukaba unashushanyijemo imirongo y'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo umurongo usa umweru, uyu muhanda ukaba urimo ibinyabiziga nk'ikamyo isa umweru, inyuma yayo hakaba hari imodoka itwara abagenzi isa umuhondo.

Izo ni imodoka ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo zikaba zanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku zikaba zihagaze imbere y'inyubako ndende igiye iriho ibyapa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikamyo ndende ndetse na moto, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga byiganjemo moto. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru, umukara n'umuhondo ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti n'ubusitani.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikinyabiziga gihetse umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru n'ibiti birebire.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bitandukanye aha twavuga nk'imodoka ndetse na moto n'amagare, uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amamodoka, amamoto ndetse n'amagare. Uyu muhanda kandi ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru n'amazu y'ubucuruzi.

Ibi ni ibinyabiziga bijye bitandukanye biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ibi binyabiziga bikaba birimo abantu bagiye batandukanye babihagazeho ndetse kimwe mu binyabiziga kikaba kirimo ibicuruzwa.

Iki ni icyuma cyangwa se ingorofani, iri mu mabara y'umutuku n'umukara, ikaba ikikijwe n'abantu bari hirya bagiye batandukanye.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga urimo igikamyo kirekire kiri mu mabara y'umweru, umutuku n'umukara, uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka y'ikamyo, ndetse hirya hakaba hari moto, hakaba hari n'inzira y'abanyamaguru ku ruhande, ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda uhagazemo imodoka zitandukanye, uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo y'umweru ndetse hirya hakaba hari ibiti bitandukanye ndetse n'inzu.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Uyu ni muhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo moto, hirya hakaba hari abantu ndetse hakaba hari n'imodoka ihagaze imbere y'inzu ifite imiryango y'imyeru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka isa ubururu ndetse iyi modoka ikaba ihagazemo umuntu uri kugenda ashyiramo ibyuma. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umuhondo.

Iki ni ikinyabiziga kirekire kiri mu mabara y'umuhondo umweru n'umukara gitwara abagenzi, kikaba kiri kubisikana n'indi modoka y'umukara, mo hagati hakaba hari kunyura umugabo wambaye imyenda isa ubururu.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ugiye uhagazemo imodoka zigenda zitandukanye, uyu muhanda uriho n'inzira y'abanyamaguru irimo abantu batandukanye bari kuyigenderamo.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, akaba hari n'undi mugabo uhetse umufuka w'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikinyabiziga cya moto. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru iri kugenderamo abantu batandukanye ndetse ukikijwe n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikamyo ndende cyane, hirya hakaba ari inzira y'abanyamaguru ndetse ha akaba yateye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ikinyabiziga cya moto cyicayeho umuntu, hirya hakaba hari ibiti bitandukanye ndetse n'ibyapa bitandukanye, n'amazu atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakurya no hakuno hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse impande hakaba hateye n'ibiti birebire.

Ibi ni ibinyabiziga byinshi bitandukanye biri mu mabara y'umweru, icyatsi n'umukara, bikaba bihagaze ahantu hamwe, hirya yabyo hakaba hagiye hari ibyuma birebire ndetse n'umusozi uteye ibiti byinshi.

Uyu ni umuhanda. Uyu muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye, hirya no hino ku muhanda hakaba hariho inzira y'abanyamaguru ndetsekaba yateye n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga byiganjemo moto iri mu ibara ry'ubururu n'umukara ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'umukara, uyu umuhanda ushushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umweru.

Aba ni abantu batandukanye bamwe bakaba bari kugenda abandi bakaba bicaye ku ntebe, impande yabo hakaba hateye ibiti ndetse hakaba hari n'inzu zitandukanye z'ubucuruzi.

Iki ni ikibuga gishushanyijeho imirongo isa umweru. Iki kibuga kikaba kirimo abana bagiye batandukanye bari gukina umupira w'amaguru.

Iki ni ikibuga kinini kiri mu bwoko bw'igitaka, iki kibuga kikaba gishushanyijeho imirongo y'umweru, hirya hakaba ariho abantu bicara hatwikiriwe n'igisenge cy'amabati.

Iki ni ikibuga kinini giteyemo ibyatsi byinshi bitoshye, hirya ahagana haruguru hakaba hari umugabo uri kugendera muri kino kibuga, ndetse hakaba hateye n'ibyapa byinshi bitandukanye.

Iyi ni imbuga nini irimo ibyatsi, hepfo hakaba hariho aho abantu bicara hafite cyangwa se hatwikiriwe n'amabati.

Aba ni abantu bicaye inyuma, bakaba bicaye ku ntebe zisa icyatsi. Izi ntebe zikaba ari nyinshi, ndetse ku mpande hakaba hari ibyuma.

Iki ni ikibuga kinini cyane giteyemo ubusitani ndetse hakaba harimo n'umurongo w'umweru hirya hakaba hari ibyapa byinshi bitandukanye biri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Iki ni icyapa kiriho umuzenguruko usa umutuku n'umweru. Ndetse hakaba handitsemo imibare iri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko utukura ndetse n'umweru, kikaba cyanditseho imibare iri mu ibara ry'umukara. Munsi hakaba hari ikindi cyapa na cyo kiri mu mabara y'umweru n'umukara, cyanditseho amagambo na yo ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse kikaba kiriho ibishushanyo by'abana babiri bafatanye mu kiganza, iki gishushanyo kikaba kiri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara, iki cyapa kikaba giteye impande y'umuhanda mu busitani buhari.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Iki ni icyapa kiriho amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, iki cyapa kikaba gishushanyijeho ibishushanyo nabyo biri mu mabara y'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, iki cyapa kandi kikaba gishushanyijeho imirongo igi iri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kirimo umuzenguruko w'umutuku, iki cyapa kikaba gishushanyijeho igishushanyo cy'imodoka, kiri mu ibara ry'umukara, iyi modoka ikaba inyujijwemo umurongo utukura.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara. Iki cyapa kikaba giteye imbere y'inzu iriho ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi n'umweru.

Iki n'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, inyuma ya kino cyapa hakaba hateyeho ibiti byinshi.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Iki cyapa kikaba gikikijwe na senyenge ndetse n'ibiti bitandukanye.

Iki n'icyapa gifite amarangi agiye atandukanye ryiganjemo iry'umutuku iry'umweru ndetse n'irindi ry'umukara.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweruru ndetse n'umukara, icyo cyapa kikaba gishinze mu busitani ndetse inyuma hakaba hari ibiti birebire.

Iki n'icyapa kiriho amabara y'umutuku ndetse n'umweru iki cyapa hirya yacyo hakaba ari umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka.

Iki ni icyapa kirimo umutuku, umuhondo, n'umukara iki cyapa inyuma yacyo hakaba hagira hati ibiti bijyiye bitandukanye birebire.

Ibi ni ibisenge by'amazu menshi agiye atandukanye, ibi bisenge bikaba bikikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Iyi ni inzu ndende cyane iri mu mabara y'umweru n'ubururu, iyi nzu ikaba ikikijwe n'izindi nzu zitandukanye ndetse n'ibiti biteye.

Aba ni abantu batandukanye bari kugenda mu muhanda urimo ibinyabiziga nk'imodoka na moto, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzu nyinshi z'ubucuruzi.

Izi ni inzu zigiye zitandukanye zifite ibisenge bitandukanye, izi nzu zikaba zikikijwe n'ibiti byinshi birebire by'amoko atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, impande y'uyu muhanda w'igitaka hari ubusitani ndetse n'ibiti bitandukanye, ndetse n'amazu agiye atandukanye

Izi ni inyubako zigiye zitandukanye, ziri mu mabara atandukanye, izi nyubako zikaba zikikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu ifite imiryango myinshi igiye itandukanye, iyi nzu kandi ikaba igiye iriho ibyapa bitandukanye byiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iyi ni inzu ifite imiryango isa umweru ndetse iyi nzu ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi cyane bitandukanye, kandi iyi inzu ikaba iriho n'intebe z'umweru.

Iyi ni inzu ifite imiryango ndetse n'amadirishya bisa umukara, iyi nzu ikaba ifite amatara atatu ku irembo ndetse hirya hakaba hari igiti gikikije urugo.

Iyi ni inzu ifite inkuta zisa umweru, iyi nzu kandi ikaba iriho ibirahuri byinshi cyane biri mu mabara y'umukara.

Iyi ni inyubako ifite inkuta zisa umweru, ndetse n'umukara, hanze y'inyubako hakaba hateye ibiti birebire, ndetse hakaba hari imodoka itukura iri kuhanyura.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umweru iyi nzu ikaba ifite amadirishya ndetse n'umuryango usa umukara.

Izi ni inzu zigiye zigerekeranyije zifite imiryango y'imikara ndetse n'amadirishya y'umukara. Izi nzu zikaba zikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Iyi ni inzu ndende ifite inkuta zisa umweru ndetse ikaba iriho amadirishya menshi agiye atandukanya asa icyatsi, iyi nzu ikaba yanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni imbuga nini, ikikijwe n'amazu atandukanye, hakaba hari inzu isize ibara ry'ubururu, iriho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Arena cyangwa se izi ni inyubako zigiye zitandukanye. Izi nyubako zikaba zifite ibisenge byiganjemo iby'umukara, umutuku ndetse zikaba zikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Uyu umuhanda w'ibinyabiziga byiganjemo ibinyabiziga birimo imodoka iri mu mabara y'umutuku n'umukara, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire.

Uyumuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto uyu muhanda ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umuhondo n'umweruru n'umukara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu muhanda ukaba unashushanyijemo imirongo y'imihondo, umweru n'umukara. Uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byinshi birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda ushushanyijemo n'imirongo iri mu mabara y'umweru n'umukara n'umuhondo.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye ushushanyijemo imirongo yiganjemo umweru n'umukara. ku ruhande kuri uyu muhanda hakaba hari ubusitani n'ibiti bihateye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo imirongo isa umukara n'umweru n'umuhondo. Muri uyu muhanda hakaba hagiye hateyemo ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda ugiye ushushanyijemo imirongo yiganjemo iy'umweru, umuhondo n'umukara. Uyu muhanda ukaba urimo n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ushushanyijemo imirongo y'umweruru ndetse n'umuhondo, uyu muhanda kandi ukaba urimo ubusitani n'ibiti birebire ndetse n'ibinyabiziga byiganjemo moto.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka ndetse na moto n'igare, aha ku ruhande hakaba ari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateyeho n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'igitaka urimo moto isa ubururu. Uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani, n'ibiti birebire, ndetse n'amazu atandukanye.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, ndetse uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani n'ibiti byinshi.

Uyu n'umuhanda ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda ushushanyijemo n'imirongo y'umukara n'umweru ndetse ukikijwe n'ibiti bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga byiganjemo moto, ndetse n'imodoka. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umweru n'umuhondo.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani, ndetse impanda y'umuhanda hakaba hari amapoto maremare ariho insinga y'amashanyarazi ndetse hakaba hateye n'ibiti.

Uyu umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo igiye itandukanye, iri mu mabara y'umweru, umuhondo n'umukara, hirya kandi hakaba hari kunyura ibinyabiziga na moto.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda kandi uteyeho ubusitani burimo n'ibiti.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ukaba ugiye urimo ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga. Uyu muhanda ukaba ugiye ushushanyijemo imirongo itandukanye iri mu mabara y'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ikinyabiziga cya moto. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo mitoya y'umuhondo ndetse uyu muhanda ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga byiganjemo ikinyabiziga cy'imodoka, kiri mu ibara ry'umukara, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda ushushanyijemo imirongo yiganjemo umweru n'umukara, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru nayo ihari.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo moto ndetse n'imodoka, kandi uyu muhanda ukaba ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi.